Umuryango ufunguye uriho ikidirishya kinini. Urugi ni rutoya, urugi rufite iserire, igikuta rufasheho ni icy'amatafari ya ruliba.

Raboratwari， aho bakorera ubushakashatsi，hariho amabika bacometse， arimo na sorushoni， kandi bari gukorera hejuru ya ravabo. Akandi kabika ko karambitse muri ravabo， hariho n'umuntu wambaye imyenda y'umukara， niwe ukora ubwo bushakashatsi.

Umunyeshuri uri mu bushakashatsi, ari gukoresha akabika k'akarahuri, yambaye inkweto z'umukara n'umweru, ari gukorera ku ntebe ya pipitile, imbere ye hateretse agacupa ka fanta ariko nta kintu kirimo n'agacupa k'amazi y'inyange.

Abanyeshuri b'abakobwa bari mu ishuri ,bigaragara ko bari muri pulatike bambaye amajipo ya kaki ,n'amashati y'umweru ariho uturango tw'ishuri ryabo.

Umukozi wo mugikoni ateruye agasahani kariho ibiryo, ari guseka arishimye cyane, undi ari inyuma ari gutegura ibyo guteka yambaye agapfukamunywa, bose bambaye imyenda y'umweru irimo utubara tw'umukara.

Umukobwa wicaye atoriye， ari guseka arijimye cyane，metero yayishyize mu ijosi， yambaye umupira w’umukara， inyuma ye hari tereviziyo ya kera n'akajerekani k’umwemweru.

Abagabo bari guseka bicaye imbere y'imirasire n'ibikoresho wagirango ni abatekenisiye babiri bambaye amashati, umwe yambaye agapira, uwambaye agapira ari guseka nawe yambaye amarinete.

Ishuri bigishirizamo ibijyanye na mudasobwa harimo abagabo babiri bambaye udupfukamunwa umwe yagashyize munsi y'akarevuro. Izo mashini zirambitse kuri pipitile zifite ibara ry'icyatsi.

Umunyeshuri uri mu bushakashatsi, bigaragara ko ari muri puratike ari gukoresha imashini ikomeye cyane, yambaye itaburiya ye isa n'ubururu. Uyu munyeshuri bigaragara ko aru......

Icumba c'ishuri hahagazemo umwana wifumbase, umunyeshuri wambaye ishati y'umweru iruhande rwe hari igishushanyo bashushanyije kiriho umukobwa.

Ishuri ry'ubugeni biga gushushanya ,umunyeshuri umwe mwarimu amuhagaze hejuru ari kwereka mwarimu ibyo yakoze, abandi banyeshuri bamwe barahagaze bambaye amapantaro y'umukara n'amashati y'umweru.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga kudoda, bambaye amajipo y'umukara n'amashati y'umweru, bicaye imbere y'imashini zabo, umwe afashe imakasi ari gukata agatambaro.

Abanyeshuri bicaye kuri mudasobwa， umukobwa yicaye imbere y’imashini ya hecipi， bose bambaye amashati y’umweru， bambaye na karuvati z’umukara n’umweru.

Abanyeshuri bari kwiga ibijyanye na mudasobwa, babiri iruhande rw'umwe hariho umwarimu uri kumwereka muri mudasobwa ibyo arakora, afashe suri, undi wicaye hirya ye ari kumureberaho, ibyo bari kumwereka.

Abanyeshuri bari kwiga kudoda bicaye ku ntebe za palasitike. Imbere yabo hariho imashini. Buri wese ari kureba kumashini ye, akanareba kuri metero. Uyu umwuga ni mwiza kubera ko uwawize ntabwo apfa kwicwa n'inzara.

Abanyeshuri bari mu bushakashatsi，bigaragara ko bari muri puratike， bose bahanze amaso umwe uri gukora egisiperimenti， ari gusuka muri bika， bambaye amashati y’umweru， n'amataburiya y'umweru.

Salo bogosheramo abantu, uwo bari kogosha bamutwikije igitambaro cy'umutuku, naho uri kogosha, n'umugore wambaye imyenda y'amaribaya yo mu bitenge .Ahangaha rero uragenda bakagukuraho umusatsi, uko waba ungana kose. Kandi uwo mugore uri kogosha nawe afite umusatsi wa natireri.